Abagore batatu, ubona yuko uko babiri bafashe icyuma gituma babasha kuvoma amazi, undi arunamye, afite indobo. Ni byiza yuko dusigasira aya mariba kuko ari isoko y'amazi meza.